Ifumbire y'imborera, ni kimwe mu bintu bituma igihingwa kizamuka kikanakura mu buryo bwihuse, aho usanga uwayikoresheje wese abona umusaruro wikubye kabiri uwo yari asanzwe afite, kuko uba uguwe neza kandi urimo ibintu byinshi bitandukanye.

Gutera umuti indabo ndetse n'ibimera ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ubunyamwuga mu byo umuntu akora, kandi bituma ibimera nabyo bitagira indwara kandi bikabaho neza mu buryo buhagije.

Gutera umuti imyaka ni kimwe mu bintu bituma ibihingwa n'imyaka bikura neza, aho usanga uwakoresheje imiti y'imyaka arimo ayitera usanga agira umusaruro uhagije.

Iyi fumbire mvaruganda iri mu mafumbire ateye imbere cyane, aho usanga uwayikoresheje mu bihingwa, ibihingwa yakoreshejemo iyifumbire byera cyane ku buryo bufatika, aho usanga umusaruro wikubye kabiri kuwo yagiraga atarayikoresha.

Umuti wica udukoko tuba twagiye ku myaka ni umuti ugaragara ko ufite ubushobozi burambye, kandi bunogeye amaso, kuko uwawukoresheje ntabwo udusimba twongera gutera ku myaka ye, ndetse anagira n'umusaruro uhagije.

Gucucira amazi bakoresheje imashini, ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ubuhinzi bwateye imbere. Iyo ukoresheje imashini ucucira, bigufasha gucucira ahantu henshi hatandukanye, ndetse imyaka na yo ikabona amazi ahagije.

Ifumbire y'imborera iri mu bintu bituma umusaruro wiyongera, ukava ku rwego wari uriho ukajya ku rundi, aho dusanga irimo ibintu bituma imyaka ikura neza ndetse ikanatera imbere, kandi ifumbire ni kimwe mu bintu bigaragaza ko amatungo yariye neza agatanga ifumbire nyinshi.

Ubworozi bw'amafi buri mu bintu bimaze guteza igihugu imbere cyane aho usanga ahantu henshi na henshi hari amazi babukora kandi bukababyarira inyungu itandukanye cyane n'uburyo umuntu yabikeka aho usanga buri umwe wese abikora kandi akabona amafaranga afatika.

Indobane y'amafi uri kubona ko yafashe amafi ahagije aho iboshwe neza harimo amafi y'ubwoko bwose ayo bita tirapiya ndetse na noferi ndetse n'amashonzi n'amasambaza uri kubona ko ari amafi agaragara.

Umunzani wo gupimisha ibiro, uri kubona ko bari bari gupima amafi ari ku ruhande. Ariko bari kutwereka ko amafi bari bayarambitse ku ruhande, kugira ngo bamanze bapima ibindi noneho bayazeho nyuma. Bari kugira ngo batwereke ibiro na yo afite.

Ishundura bashizeho kugira ngo bafate amafi bayarobe neza ni kimwe mu bintu bituma amafi atabacika nk'abarobyi bahita babyumva cyane kuko iyo bakoze bino bintu baba bazi igihe amafi ari buzire n'igihe atarazira

Amafi bashyize mu rubura, ni kimwe mu bintu bituma amafi adapfa ndetse akamara igihe kirekire cyane. Iyo amafi uyafashe ukayabika neza ukoresheje urubura, bituma amara igihe kinarenga n'umwaka, nk'igihe kinarenga ibihe byinshi cyane. Mu gihe ushaka kubika amafi ugomba gukora icyo kintu ni cyiza.

Ifi iri mu kiribwa kiryoha cyane, kuko iyo ivuye mu nyanja iba igifite amafu n'amavunane yose, iyo uyishyize ku cyokezo iraryoha cyane urabona ko bayisize ibirungo, ku ruhande bagashiraho n'indimu ndetse n'ibindi birungo bikenewe.

Amafi ahiye araryoha cyane aho usanga umuntu wayariye agubwa neza, kandi akongera poroteyine mu mubiri, hano urabona ko hari amafi abiri atandukanye, imwe ni Tirapiya, indi ni Layipade iriho ndetse n'indimu zo kuyirisha, ndetse na za te ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Amafi ni ikiribwa kiryoheye amaso, ndetse n'umunwa, aho umuntu wayariye usanga aguwe neza, amafi aturuka mu nyanja kandi uwayarobye usanga agira amafaranga, ndetse akanabyishimira, kuko biba bigoye kuyabona ari menshi.

Indege ya kajugujugu ni kimwe mu bintu byorohereza abashinzwe umutekano akazi, aho usanga kuva ahantu ujya ahandi biborohera cyane kuko iba iri gukora ibyo abandi bakagombye gukora biyushye akuya yo ikabikora mu buryo bwihuse kuko igendesha esanse n'amavuta menshi cyane.

Ibiryo biriho amafi atatu ndetse n'urunyanya, ndetse n'amaronji bakase, uri kubona ko ari ibiryo biryoheye amaso ku buryo umuntu wese ubibona agira apeti, ndetse akanabyifuza.

Ubworozi bw'amafi buri mu bintu bimaze gufata indi ntera mu rwanda, aho usanga umuntu ukora ubworozi bw'amafi yunguka cyane kurusha wa wundi ujya kuyagura ku isoko kuko, arayagaburira ndetse akanayashakira ibyo akeneye nayo akamuha umusaruro uha.

Umubirizi ni icyatsi gikunzwe n'abatari bake aho usanga gikoreshwa n'abaganga bavura icya kinyarwanda ,aho usanga bagikoresha nk'umuti uvura inyamaswa n'abantu kandi ugasanga uri gukora neza ku buryo bukwiye.

Ibirayi byenda kwera, usanga amababi yabyo asa n'icyatsi cyane, ndetse afite n'uruti rukomeye, yanarazanye uruyange, kuko biba bibura igihe gito ngo byere, kuko biba byaravomerewe, bigahabwa ifumbire y'imvaruganda, ndetse n'iyimborera.

Igihingwa cya tungurusumu ni kimwe mu bihingwa bigaragaza umusaruro uteye imbere aho usanga umuntu wahinze tungurusumu abona amafaranga ahagije, ku ruhande hari ibidodoke na byo ni imboga bituma abantu bagubwa neza iyo bazirinda.

Imyaka irimo gutangira kumera. Urabonako iba imeze neza cyane aho usanga izamuka gake gake kandi ikazamukana n'ibindi byatsi ku ruhande, bigatuma umuntu ayibagarira kugira ngo abibone neza.

Amababi y'inturusi yumye aba yaguye hasi, iyo umuyaga uhushye yarari mu giti ahita agwa hasi kandi akumagara kubera izuba riba riri mu kirere kuko aba yavuye ku giti cyayahaga amazi ubundi yagera hasi yamara kuma akabora.

Ibyatsi ni umutungo kamere abantu tuba dufite tutabizi kuko ibyasi bituma amatungo yacu abaho. Iyo amatungo ari kurisha cyangwa akaza kubirya igihe uyaragiye bituma agubwa neza kandi akabona ibyo kurya .

Ibirayi biteye bibura igihe gito ngo byere, uba usanga utangiye kuzana uruyange kandi bigaragara neza byarazanye uruti ndetse n'amababi g'icyatsi ameze neza, noneho iyo biteye umuti uba usanga ari ibirayi bifite ireme kandi bigaragarira buri umwe ko bizazana umusaruro uhagije.

Umurima basaruyemo ibishimbo hasigaramo imishingirizo iriho n'ibishoshogo byo batari bakuramo, kuko ku ruhande hateyeho amajeri avanze n'ibyatsi, urabona ko ari imyaka itari yavamo yose, ariko nyirayo ategereje kuyikuramo.

Impingo mu gihe basaruye ibigori batangiye guhinga, bikiri amasinde uba usanga birimo ibyatsi byinshi cyane, ariko iyo bamaze kuhahinga hamaze gusa neza, uba usanga hagaragara neza. Urabona ko ibigori bikirimo babyita ibisigatirwa.

Ibitoki ni kimwe mu bihingwa byera mu Rwanda hose, aho usanga iyo wabiteye neza, ukabikorera, ukabishyiraho ifumbire ihagije usanga bitanga umusaruro uhagije. Ku ruhande hari ibidodoke abenshi bakunze kwita ngo ntabwo biribwa kandi igice kimwe cy'urwanda usanga kibirya kandi ku buryo buhagije.

Gufasha ababyeyi ni igikorwa cyiza cyane aho usanga umwana ubikoze neza akura afite ubwenge kandi afite n'umuco. Urabona umwana afashije umubyeyi we udufuka ndetse n'umubyeyi we arikoreye anahetse, ku ruhande hariho amababi y'ibidodoki ndetse n'ibindi bitandu...

Igiti cya avoka kiri mu biti bikungahaye kuri Vitamine ndetse usanga kinakunzwe n'abatari bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga gifasha abana ndetse n'abakuze kugubwa neza mu gihe bari ku kiryamo imbuto ndetse kandi n'amababi yacyo avura abana kunyara ku buriri.

Umurima w'ibigori uteye ku muhanda, uri kubona ko wegereye umuhanda ariko ibigori biracyari bito. ibindi birimo ibishyimbo bivanze kuko babyuhiye neza bakanabitera neza, niyo mpamvu bizatanga umusaruro muzima.

Ibirayi bifite ukwezi kumwe biba bimeze gucya kandi bitangiye kuzana uruyange. Hijya hariho igiti cya gireveriya kigaragara ko kitari cyakura cyane, gituma na imyaka nazo zikura mu buryo bukwiye, kandi kigafasha kunywa amazi kw'imyaka, na cyo kikabigiramo uruhare.

Ibihaza ni kimwe mu biribwa biryohera umuntu iyo ari kubikoresha, kuko usanga iyo umuntu agihinze neza kimuha umusaruro ufatika ,ku ruhande hari ibiti by'inganzamarumbu begetseho ibishogoshogo by'ibigori ,ku ruhande hateye amajeri urabonako ari naca, iteye ....

Imyaka y'ibirayi, ni kimwe mu bihingwa bigaragaza ahantu hera neza, ku buryo usanga umuntu wahinze ibirayi abona umusaruro uteye imbere, kuko haba havanzemo ibiti bituma ibirayi bifata amazi, kandi havanzemo ibihaza urabona ko umuntu nta cyo adafite.

Igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bintu bigaragazako igihugu gifite imyaka ndetse n'iterambere mu biribwa ,ku ruhande hari ibishyimbo byumye bishingiriye, ku rundi ruhande hari ibiti by'avoka ndetse n'iby' inturusu, aho usanga imvayironoma igaragara ,ahantu heza kandi kikaba ari icyatsi kigaragazako gifite imvura ndetse n'izuba rihagije.

Ibirayi bya makoroni ni ibirayi byiza cyane, aho usanga rimwe na rimwe bisa n'umutuku, ikindi gihe ugasanga hari ibyivanzemo bisa n'umweru. Gusa ni ibirayi bifufuka cyane, aho uwabiriye ashira amanga akavuga atomoye.

Inka ya kijyambere ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iri mu kiraro ni inka igaragara neza urabona ko ifite n'iherena bayiteye kugira ngo bayibarure bamenye nimero yayo ifite batazayitiranya n'izindi.

Imiteja ni igihingwa cyera ahantu hatandukanye ,aho usanga ifitiye igihugu akamaro. Uwariye imiteja agubwa neza ndetse akabona ko ibintu bigiye mu buryo . Urabona ko imiteja ituruka ku bishyimbo kandi umuntu wayihinze abona amafaranga.

Kuhira ibirayi ndetse no kubikorera uri gushiramo n'ifumbire mvaruganda ni kimwe mu bikogwa byiza bituma ibirayi byera neza kandi bigashisha igihe urimo kubisarura. Kuko iyo wakoresheje ifumbire igenewe ibirayi, bikura neza ndetse bigatanga n'umumusaruro uhagije.

Guhunika ibirayi ni kimwe mu bintu bituma ibirayi biba imbuto nziza, ndetse n'umuntu ubikoresha yarabyitayeho akaba azi imbuto agiye gutera iyo ariyo ndetse n'ubupfu ifite, cyangwa yaba idafite ubupfu akaba azi igihe azayiterera neza kandi yitonze.

Kumenera no kuhira ibirayi ni kimwe mu bikorwa abantu bakora kandi kikabateza imbere ,kuko iyo ibirayi wabyuhiye ukanabimenera uri gushyiramo ifumbire ,bikura neza bikabyibuha uruti kandi na byo mu butaka bikabyibuha ,bigatanga umusaruro ukwiriye.

Amahundo n'ibigori biba byarumye, ndetse bikuma neza, ku buryo bigera, kuri rwa rwego, babihungura bakabisheshamo ifu y'igikoma, bakabisheshamo ifu baryamo umutsima.

Umufuka urimo impungure， ni kimwe mu bintu bigaragaza ko imyaka yeze， ndetse no ku isoko ry'umurimo，ukaba wahasanga iyo myaka， ni kimwe mu bintu bikwereka ko ahantu hari gutera imbere， ku buryo ujya ku isoko ukaba wabona， impungure zo gusheshamo ifu y'igikoma， ndetse no gusheshamo ifu y'akawunga.

Dendo ni kimwe mu bwoko bw'inkoko zakuze nini, aho usanga dendo ipima ibiro bigera muri bitandatu na birindwi ikaba ifite ibirokoroko by'umutuku ndetse n'ibibaba byinshi aho uyibona ugahita uyibwira.

Ibisheke bitanditse biri gucuruzwa urabona ko ari ikintu kiza, ibi bisheke biba byaciwe mu murima byarangiza bikazanwa gucuruzwa n'abantu batandukanye, kandi bakabonamo n'amafaranga, kuko iyo ushaka igisheke bagenda bagutemera bitewe n'amafaranga uri kubishura.

Umugore n'umugabo bagiye mu kazi bari kubona ko umugore afite isuka ku rutugu naho umugabo akagira umupanga. Umugore afite n'agapaniye, yambaye igitenge ndetse n'umupira w'umutuku, yiteze igitambaro cy'umutuku naho umugabo yambaye bote ndetse n'ishati uri kubona ko bageze hagati y'imyaka bari kugenda munzira iciye mu muhanda.

Umusaruro wa avoka ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro, aho usanga avoka bazikoramo amavuta, abandi bakazikoramo salade ndetse n'ibyo kurya bihambaye. Aho usanga amavuta bazikoramo amenshi ariyo kwisiga, ndetse abantu batunganya avoka ngo bakoremo ayo maproduwi ni abantu baba barabyize ku rwego ruhambaye.

Amatunda ya marakuja ari mu matunda yera cyane, kandi akaryohera buri umwe wese uyakoresheje, kuko umwana iyo ayariye agubwa neza ndetse akanituma neza, mu gihe umuntu mukuru iyo yayariye na we agubwa neza.

Guca imyobo igihe barimo batera imyaka y'ibirayi, ibigori, ibishimbo, bibasaba guca imyobo, ndetse bagashiramo n'ifumbire y'imborera n' imvaruganda, bakabona gushiramo imbuto kugira ngo imyaka izere neza.

Umusaruro w'ibirayi ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro, aho usanga ibirayi bihingwa mu nce nyinshi z'igize igihugu, usanga babikuza amaboko ndetse n'intoki ku buryo umuntu wabihinze agubwa neza ndetse akishima iyo abonye umusaruro wabyo .Urabona ko harimo abantu benshi bari gusarura biganjemo igitsinagore.

Gukorera icyayi biri mu bintu bituma umusaruro wiyongera aho usanga bari kugisasira abandi bari kongeramo ifumbire, bituma umusaruro ku isoko ry'imari wiyongera cyane aho n'umuturage abigiriramo inyungu.

Ibinyomoro ndetse na wotameloni ni zimwe mu mbuto zigaragazako umuntu afite amatembabuzi ahagije n'amaraso mazima; kuko umuntu wabikoresheje ku buryo bufatika ,uba usanga umubiri we ubobeye kandi umeze neza nta kibazo ufite.

Ikibaya n'umusozi bihinzwemo imyaka biba bigaragara neza, aho usanga mu gihe cy'umwero w'imyaka hose imisozi iba isa n'umutuku, ndetse indi isa n'ubururu, kubera ibiti n'imyaka kandi bikagaragara neza mu buryo bwiza.

Ibigori bifite imiheko mikuru urabona ko bijyoheye amaso bisigaje gakeya ngo byere, ubundi bijye ku isoko n'abantu batangire babijye kuko amababi yabyo aba akuze cyane buri umwe wese.

Ibisheke ni kimwe mu biribwa bikungahaye ku isukari, kandi bikunzwe n'abatari bake, aho usanga abagabo, abagore, abana ndetse n'urubyiruko, twese tubigura kugira ngo dushakemo isukari ibirimo, ndetse binatume natwe tugira ubuzima buzira umuze.

Umusaruro w'ibigori ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro. Aho usanga bagiye gusarura ibigori bashaka abantu benshi, abaguzi ndetse n'abagurisha kugira ngo buri umwe wese aze yihere amaso umusaruro w'ibigori wabonetse.

Igitsina gore kiri mubantu bakora cyane kugirango bashakire amaronko umuryango wabo , aho abagore babyutse bari gutunda ifumbire buri wese afashe umufuka we ndetse bambaye na bote urabona ko ari ibintu biteye amashu.

Kwita ku bimera ni kimwe mu gikorwa gituma abantu batera imbere kandi bakanabibyazamo umusaruro, aho usanga igiti witayeho ntikigira imbuto kiguhereza umusaruro mwinshi cyane ndetse n'ibindi ukaba wabibazamo imbaho.

Guhunika ibigori babimanitse biri mu bintu bituma ibigori byuma vuba ndetse bikanamara n'igihe bitarabora, kuko iyo babihunitse babishize hasi uba usanga ibyo bintu bitari gufata umwanya muzima, kandi bigafata n'igihe cyo kubyaranja kugira ngo ubibone neza.

Igihingwa cy'imyumbati iyo ugihinze neza ,kiguha umusaruro uhagije, aho usanga ahantu hashyuha mu Rwanda bakunze ku gihinga, ndetse kikabahereza umusaruro uhagije kuko kivamo ubugari n'imyumbati yo kurya kandi kigatanga isombe. Ku babyeyi batwite , isombe ibafasha kugira amashereka

Umusaruro w'ibirayi ni kimwe mu bintu bigaragara neza, iyo umuntu yakuye ibirayi byarabaye byiza uba usanga ari guseka cyane, urabona ko umugore ufite ikirayi n'umugozi wacyo yari yakuye, uri kubona ko yishimye cyane kubera abonye umusaruro, n'abamukikije na bo bari kubireba bakumva baseka cyane.

Amababi y'isombe ni bimwe mu bihingwa biribwa n'abatari bake, aho usanga byongera amashereka y'umugore igihe ari konsa umwana. Kandi umuntu wariye isombe araryoherwa cyane, aho usanga ifite vitamine zitandukanye, cyane cyane umuntu waziriye bituma mu nda amera neza kandi ntacibwemo.

Abantu bacuruza imbuto, inyanya ndetse n'imineke ni kimwe mu bintu biteje igihugu imbere, aho usanga imineke ifasha abana kugubwa neza mu nda, ndetse no mu nda hakoroha. Inyanya na zo tuzikoresha barimo guteka ibiryo, kandi zikongera amaraso mu mubiri.

Puwavuro ni igihingwa cyera ahantu hari ubutaka bw'ibirunga, aho usanga kigira akamaro ku mubiri wacu, kikadufasha gukura neza kandi kikadufasha kurinda indwara mu mubiri.

Umusaruro w'ibirayi ni ingirakamaro muri rubanda, ku gihugu ndetse n'abatuye hanze kuko usanga ibirayi bikenerwa n'abantu benshi batandukanye kandi bikabagirira akamaro.

Korojete ni ubwoko bw'ibihaza, ndetse busanga ahantu hakunze kwera cyane. Ni ahantu bababitayeho cyane, hari ubutaka butoshe, burimo ifumbire y'imvaruganda ndetse niy'imborera ku buryo buhagije.

Amatunda iyo akiri ku giti utari wayasoroma, amatunda ateye amabengeza kandi agaragara neza, niyo mpamvu buri umwe wese aba agomba kuyishimira ndetse akajya no muri business zo kuyatera kuko atanga amafaranga ku buryo bufatika.

Umusaruro w'ibijumba ni bimwe mu bintu bituma igihugu gitera imbere, aho usanga ibijumba biri gukogwamo amabiswi ndetse n'imigati, buri umwe wese ubiriye akagubwa neza. Ni yo mpamvu ibijumba ari ingirakamaro mu buzima bw'abanyarwanda.

Abantu bari gutera umuti wa nkongo ibigori uri kubona ko bari gutera buri wese yitaruye undi kugira ngo badahuza aho bateye ariko iyi fumbire ituma ibigori bikura neza ndetse bikanagira n'umusaruro ufatika.

Avoka ni urubuto ruteye amabengeza, iyo umuntu wese ari kurureba ubu usanga yagize ifemba, iyo zikiri mu giti zitangiye guhiramo zarahinduye isura uba ubona zimeze neza cyane, hano urabona ko zigiye gusa nk'umukara, iyi avoka ifite amababi y'icyayi.

Ibijumba ni kimwe mu biribwa biri mu mujyango w'ibinyamafu kandi kikaba ari ikiribwa cyongera imbaraga, akenshi kigira isukari ubu usanga bagikoramo biswi, bakagikoramo imigati ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ikijumba ni cyiza ku buzima bw'umuntu.

Amaronji ni kimwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze, aho usanga bakunze kuyakoresha igihe umuntu ashaka kuyarya, aba yishimye cyane kandi binamutera akanyamuneza, aho usanga abakuze, abana bose bayakoresha kuko agira intungamubiri zihagije ku mubiri w'umuntu.

Gutera umuti imyaka, urugero nk'ibigori ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ko umusaruro uzaboneka ku rwego rushimishije, aho umuti uterwa n'abantu bagera muri bane bose bahetse ibyuma, ubona ari byiza.

Gupakira karoti ni kimwe mu gikorwa kigaragaza ko abantu bahinze karoti bafite ubunyamwuga, aho usanga umufuka umwe uri gupima ibiro magana abiri kandi bawupakiye neza bawugejeje no hejuru, bigatuma byorohera abaguzi.

Umugabo uri kwerekana umurama w'ibiti uri kubona ko ari ikintu kigaragara ko yawitayeho ndetse akanabafatira umwanya uhagije yacuciye umurama w'ibiti none na byo bimaze gukura ndetse ageze ku rwego rwo gutanga ibihumbi bitanu by'umurama.

Ibishyimbo biri mu biribwa biryohera buri umwe wese ubiriye aho usanga bigira amoko menshi cyane harimo: ibishyimbo bigufi n'ibirebire ibyitwa nyiragakote na kajamalika kandi uwabiriye arashisha akanumva kuko bigira intungamubiri mu mubiri zihagije.

Umufuka w'impungure ni kimwe mu bintu bigaragaza ko impungure zafashe indi ntera, aho usanga bakoramo akawunga ndetse bagasyamo n'ifu yo kunywamo igikoma no kuryamo umutsima. Aho ubona umufuka w'ibiro ijana urimo impungure iyo uwushyize ku munzani ugapima ubusanga harimo ibiro ijana na mirongo itanu.

Amatunda yitwa marakuja ni amwe mu matunda agaragaza umusaruro uteye imbere, aho umuntu iyo yahinze hegitari akuramo amatunda yikubye gatanu ku mafaranga yashoye, kandi ukabona ko abana b'u Rwanda bari kuyarya akabagwa neza cyane.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa bigaragara neza. Aho umuntu yayiteye usanga aguwe neza kubera umusaruro itanga. Urabona ko umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agatambaro ku mutwe k'umutuku arimo kuzisarura afite n'isuka.

Kugaburira amatungo ni igikorwa cy'ingirakamaro，kuko iyo amatungo yariye neza， nayo arashisha akanatanga umusaruro uhagije， urugero nk'ihene，iyo wayigaburiye neza， uyigurisha amafaranga yikubye inshuro nyinshi z’ayo wayiguze.

Abagore bari gucagura imyenda bagenda bakuramo utwanda, n'ibyapfuye babijugunya ku ruhande mu gihe bigiye koherezwa hanze, cyangwa mu gihugu nk'indani, biba bisabwa gutunganywa neza kandi ku murongo kugira ngo biryohere abantu.

Umugore ufashe amabase n'isuka amaze gucucira imyaka ye y'ibirayi, urabona ko ari igikorwa cyiza kuko bacucira ibirayi igihe izuba ryatse cyane nta mvura, uri kubona urabona ko ari kubyitaho cyane, aba yabukereye anambaye imyenda y'akazi ndetse na bote.

Ibyo kurya birimo amoko menshi cyane aho usangamo imiteja, pavuro, ndetse na seleri n'ibitunguru usanga biri mu bintu bikunzwe cyane aho tubikoresha turimo guteka indyo zitandukanye.

Umusaruro umugore arimo kutweka, ni umusaruro ugaragara neza, ni ikawa yitaweho uri kubona ko yavuyemo umusaruro ugaragara, aho yakoreshejwe n'ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera ubona ko ari igikorwa cyiza.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa biteye imbere aho usanga iyo yeze asa n'umutuku cyane, ndetse bakayasarura bakayahura, bakayanika ,iyo amaze kuma ni ho bayabetesha bakayakoramo ifu y'ibikoma ndetse n'iyo kurya, ku buryo umuntu wayariye usanga aguwe neza.

Ibihwagari ni kimwe mu bimera bitanga umusaruro uhagije aho usanga ibihwagari babikoramo imiti, ndetse n'amavuta yo kurya bigatuma umuntu abihinga yishimye ndetse azabonamo n'amafaranga ahagije.

Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bigaragaza umusaruro uhagije, iyo ibishyimbo byumye ukabishyira mu butaka, bigatangira kumera, usanga bizana utuntu tw'umweru ku mutwe, kandi bigaragaza uburambe buhanitse, kuko ntabwo bipfa kubora.

Ibishyimbo ni kimwe mu biribwa bigaragaza ko igihugu cyacu giteye imbere, kuko iyo umuntu ateye ibishyimbo abona amafaranga ahagije, kandi n'umwana wariye ibishyimbo akura neza, ku buryo igwingira adahura na ryo mu minsi ye ya mbere.

Umusaruro w'ibigori ni kimwe mu bintu biteje igihugu imbere, aho abantu bamaze gutonora ibigori bari kubipakira mu mufuka, babishashe, babirambura ku ihema kugira ngo batandukanye, ibibabi ndetse n'ibigori neza biri kugaragara.

Iyo ibirayi bamaze kubisarura barabivanzemo n'indi myaka usanga ari ibintu bigaragaza ubuhinge neza, urabonako umuntu ari kugenda asubira inyuma babyita guceba agenda areba ibyasigayemo nabyo abikuramo ,ni umugabo wambaye ingofero amaze gukuramo umufuka w'ibiro nka mirongo itanu.

Ibihwagari ni kimwe mu gihingwa cyera mu Rwanda, aho usanga gikunzwe guhingwa n'abantu benshi batandukanye. Kandi gihagari ni ingirakamaro kuko kivamo amavuta yo kurya, kivamo n'imiti abantu bakoresha mu kwivuza.

Amasaka ni kimwe mu gihingwa cyera mu Rwanda cyane cyane usanga avamo ugwagwa ndetse n'imitobe ikunze gukoreshwa n'abatari bake mu Rwanda, kandi amasaka ni kimwe mu gihingwa tunywamo igikoma kandi tukagubwa neza.

Ibishyimbo ni bimwe mu bintu bigaragaza umusaruro w'igihugu，aho usanga ibishyimbo bigira amabara atandukanye， hari ibiba bifite amabara y'umutuku，avanze n'umweru，ndetse n'agatima kabyo harimo ibara ry'umweru. Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bifite intungamubiri，iyo umuntu yabiriye agubwa neza， ndetse n'umubiri we uga...., .

Igihwagari ni kimwe mu bihingwa biteye imbere aho usanga bikurwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo :amavuta yo kurya ndetse n'umuti bakoresha kwa muganga igihe warwaye umutwe usanga ari igihingwa gifitiye igihugu akamaro.

Ibigori bya mayizori biri mu bintu biryoha cyane aho usanga bakoramo Patejoni, iyo babibetesheje bakabikamura neza usanga bivamo umutsima uryoshye cyane kandi ubu usanga bisa n'umuhondo.

Ibishyimbo biri mu moko atandukanye aho usanga hari ibisa n'umuhondo, ibisa n'umutuku ibisa n'icyatsi, ibisa n'umuhondo werurutse, bisa n'umweruru werurutse, ndetse n'ibisa n'umutuku werurutse. Byose usanga bikunze kuribwa cyane n'abatari bake.

Ibigori bya mayisori biba byumye, usanga babikoramo ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'ifu ya pate joni ndetse n'ifu y'igikoma, iteka ndetse n'umutsima, usanga umuntu wayikoresheje agubwa neza ndetse akagira vitamine mu mubiri zihagije.

Impungure za mayizori ziri mu mpungure ziryoha cyane, iyo wazitetse wazigeretse ku bindi biryo ubu usanga ari ikiryo kimeze neza. Urabona ko ziri mu mufuka harimo n'ibikombe bibiri abenshi bakunze kwita mironko cyamba muhinzi, bitewe n'aho uri kuko biriya bikombe biba bigaragaza ibiro by'izo mpungure bagiye kugurisha, ndetse bakanabipima neza.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa bigira umusaruro uhagije, aho usanga amasaka tuyakoreshamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo kwengamo umusururu, gutekamo igikoma ndetse no gutekamo umutsima. Ibyo byose wabikoramo mu masaka kandi bikakugwa neza.

Ibishimbo bisa n'umukara ndetse bifite n'umutuku hejuru ndetse n'ijisho ry'umweru, ni ibishyimbo biryoha cyane, umuntu wabiriyeho arabikunda kandi iyo wabitetse biratubuka ku buryo bugaragara.

Ibishyimbo biteye ku murongo. Ni ibishyimbo bigaragaza ko bizakura neza, aho uwabiteye neza akabishyiramo ifumbire igaragara, usanga abona umusaruro uhagije, ku buryo ku isoko ry'umurimo usanga ibishyimbo bye ari byo bari kugura cyane.

Igihingwa cy'ingano, ni kimwe mu bihingwa bigaragaza, umusaruro, uteye imbere, aho iyo wariye ingano, neza ugubwa neza, ndetse ukanatekereza mu buryo buhagije, urabona ko, ari ingano zitari zera zikiri icyatsi ndetse nizimara kurenga umusaruro, ukenewe no kuma bazazisarura, babone kuzigurisha, ndetse banazihuye.

Kurobanuramo utwanda mu masaka ni kimwe mu bintu bigaragaza iterambere ndetse n'ubuhanga buhanitse ababyeyi bacu bafite, urabona ko ari ababyeyi batatu bari kugenda barobanuramo utuntu tutari utwo kuribwa ndetse n'amasaka yapfuye kugira ngo babone ameza.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa byera mu Rwanda, aho usanga umuntu wahinze ubunyobwa abona amafaranga menshi cyane, ku buryo anagura ibindi bintu akeneye. Iyo wahinze ubunyobwa ufasha abaturage kubona intungamubiri zihagije.

Gusarura amajeri ni kimwe mu gikorwa kiryohera buri umwe wese uri kugikora, aho usanga umuntu uri gusarura amajeri aba yishimye cyane, kuko aba yejeje kandi anagize umusaruro ufatika, kuko usanga hejuru y'amajeri harimo uruyange kandi uyu muntu uri kubona ko ari gushira mu gatebo.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa biryohera abantu kuko iyo wabukoresheje neza bituma ubaho neza, kandi mu mibyarire yawe ukabyara neza nk'umuntu ubura intanga, nawe ubunyobwa iyo waburiye intanga zirasa ntakibazo.

Ubunyobwa ni kimwe mu bihingwa byera cyane aho usanga ubunyobwa bufitiye igihugu akamaro. Buriya umuntu wariye ku bunyobwa agira intungamubiri nyinshi, nk'umugabo intanga ziriyongera ndetse n'umugore bigatuma kubyara bimworohera.

Tungurusumu ni kimwe mu bihingwa byera ahantu henshi hatandukanye, aho usanga umuntu wahinze tungurusumu aba afite amafaranga menshi cyane. Rimwe na rimwe zirazamuka ubundi zikagabanuka, ariko iyo ufite umusaruro wazo nta makemwa ubona amafaranga wifuza.

Bimwe mu biribwa bikunzwe n'abatari bake mu Gihugu cyacu usanga harimo umuceri ndetse n'akawunga, aho usanga biri gutunga imiryango myinshi cyane. Kandi iyo wabitetse unakenera amavuta na yo usanga afite akamaro gahagije mu bantu benshi cyane. Niyo mpamvu umuntu uwo ari wese wayakoresheje,...

Ubworozi bw'ihene ni kimwe mu bintu biteza igihugu akamaro, aho usanga umuntu ukora ubworozi bw'ihene afite amafaranga cyane, kuko usanga zimwungura mu buryo buhambaye, aho ihene imwe uba usanga ihenze ku rwego utakwiyumvisha, kandi uzoroye neza nawe zimugirira akamaro.

Inka y'ingweba ni inka igaragara neza ifite ibara ryiza rigiye gusa n'umutuku wijimye, urabona ko ari abagabo batatu bari gutuma irisha bari kuyijisha kugirango bayijyane kuyiragira, niyo mpamvu nawe ugomba gukunda.

Inkokokazi ni inyamaswa iteye ukwayo, aho usanga itanga amagi yo kurya kandi agatunga abantu, muri rusange usanga ari inyamaswa ifite amababa ariko ikaba ibana n'abantu nta kibazo mu buryo bwiza, ndetse ikanatanga n'umusaruro ukwiriye.

Umusaruro w'inkoko uba usanga ari ingirakamaro ku muntu uzorora kuko iyo azigurishije cyangwa akagurisha amagi uba usanga bimuha amafaranga menshi cyane Kandi bitamutwaye ibintu byinshi bingana n'ayo mafaranga ari gukuramo y'umusariro.

Inka ni inyamaswa nziza cyane, aho usanga inka igira umusaruro ku gihugu cyacu ndetse muri rusange usanga inka ishushanya umuco w'abanyarwanda kuko mu muco w'abanyarwanda inka ni ikintu kiziririzwa kandi cyubahirizwa buri umwe wese uyibonye ihita imuhereza ishusho ngari y'abanyarwa...

Ingurube yabonye ibyo kurya bihagije birimo amavitamine n'amaporoteyine n'ibindi bintu ikenera, mu buzima bwayo uba usanga ibyibuha igatanga umusaruro uhagije. Aho usanga ku isoko ingurube iri mu nyamaswa abantu bakunda cyane, kandi bishimira kurya buri munsi uko bwije n'uko bukeye.

Gusukura inka ni kimwe mu bikorwa bimeze neza kandi bituma inka itanga umusaruro ukwiriye, iyo yitaweho ku bantu babyize bavuga ko gusukura inka aba ar'ikintu gituma inka itera neza ndetse igatanga n'umukamo mwinshi.

Umusaruro w'inkoko, rimwe na rimwe uteza abantu imbere cyane cyane aho usanga, umuntu wabyitayeho neza bimugira umukire uhambaye. Usanga atanga umusaruro ungana n'amatureyi nka magana atanu, magana arindwi, ndetse unarenze cyane.

Gukingira inka ni byiza kuko inka yakingiwe biyirinda indwara, ndetse nta n'ikintu gipfa kuyangiriza uko kiboneye, kuko iyo irimo irisha, uba ubona ifite apeti kandi ikanatanga n'umusaruro uhagije.

Inka ni itungo ryiza cyane, aho usanga uworoye inka aba ameze neza. Anywa amata ndetse akarya n'inyama igihe abishatse, ndetse iyo urebye, inka z'ifirizoni uba usanga zitanga umusaruro uhagije.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa zikunzwe n'abatari bake kuri iyi si ya rurema. Mu Rwanda noneho ho usanga ari ibindi bindi. Urabona ko ingurube itanga umusaruro uhagije, aho yabwaguye ububwana butandatu, kandi bwose ikaba ibuhaza igihe buri kunka.

Ubworozi bw'ingurube ni kimwe mu bintu bimaze gufata indi ntera nini aho usanga umuntu ufite umushinga wo korora ingurube yarabaye umukire cyane, kuko ingurube zirakunzwe cyane kandi zitanga umusaruro uhagije.

Gufata urukwavu mu ntoki ni kimwe mu gikorwa kiba kitoroshye kuko iyo ukwirukanseho kugira uzarufate birakugora kuko ruba ruzi kwirukanka cyane, ariko urukwavu iyo warwitayeho ukarugaburira narwo rutanga umusaruro uhagije aho usanga abantu ku isoko barukunda cyane kuko inyama zarwo ziraryoha cyane.

Gutera imiti inka ni kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere rihanitse kuko iyo inka bayiteye umuti usanga iguwe neza idapfa kurwaragurika uko ibonye kandi igatanga umukamo uhagije.

Inka ziri mu gikuyu ziri kurisha, usanga ari inka zitoshye, kuko ziba zifite ubwatsi buhagije, ndetse n'amazi iyo inka ziri kurya ubwatsi bufite, ireme usanga zarabyibushye ndetse zigatanga umukamo, uhagije.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikunze kugaragara neza cyane. Nk'inyoni yubururu usanga iteye amabengeza cyane cyane igihe iri kumwe n'ibimera bisa ni'icyatsi mu ishyamba ubona ari byiza.

Inuma ni inyamaswa nziza cyane aho usanga abantu bayikunda cyane kandi bakavuga ko ari inyamaswa izana amahoro mu bantu, ndetse na n'icyo ishushanya inagaragaza, ifashe icyatsi gifite urutitigiri rurerure mu kanwa urabona ko ari inyamaswa isa neza cyane.

Igisiga kiba kiri mu kirere akenshi bacyita ngo sakabaka, iyi sakabaka rero ituma inkoko zihisha cyane kuko ihigana n'inkoko, iyo ibonye umushwi irawutwara niyo mpamvu inkoko namwe muba mugomba kuzishira kure.

Inyoni y'ifundi ni imwe mu nyoni zigaragaza ubuhanga buhanitse kuko zizi kuririmba indirimbo zitandukanye. Iba isa n'umuhondo ifite umunwa no ku jisho hasa n'umukara, n'ijisho risa n'umutuku. Ihagaze ku giti ndetse urabona ko ari inyoni iteye amabengeza ndetse n'ama...

Inkima ni inyamaswa iteye amabengeza, aho iyo uyitegereje neza usanga isa nk'umunu neza neza. Ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso hafi y'amatama, iba ifite ubwoya bw'umweru. Na ho ku gihimba, ifite ubwoya bw'umukara aho usanga iba yibereye mu biti.

Inyoni ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu hejuru n'umurizo w'umukara, ihagaze kugiti gitambitse uri kubona ko gifite natire igaragara, inyuma hari ibibabi by'icatsi birimo n'umuhondo.

Umuserebanya ni inyamaswa iri mu bikururanda nayo uba usanga ari inyamaswa ntoya, igira ubumara buhagije ku buryo uramutse ukurumye wahita upfa nta n'iminota itatu ishize niyo mpamvu ugomba kuyitondera cyane.

Inkima ni imwe mu nyamaswa zigaragaza ubwenge buhambaye kuko ubu usanga ifite ishusho nk'iy'umuntu, kuruhande mu maso harimo ubwoya ku buryo uhuye nayo wakwikanga ihagaze ku giti hamwe n'umwana wayo.

Inyoni iteye amabengeza ifite agasunzu karimo umweru n'umukara epfo gatoya harimo umuhondo ugiye kweruruka urimo umutuku ifashe isazi mu kanwa ku mababa yayo harimo umweru n'umukara ihagaze ku giti urabona ko ari ibintu byi

Akanyamasyo ni inyamaswa ihambaye cyane， aho ifite igikonoshwa gikingira umutekano wako， mu gihe gahuye n'ikibazo，aho ubona gikomeye cyane ku buryo buhagije， ku buryo n'ikintu cyose cyakituraho ntacyo kaba， kandi kagenda gake gake，paka kageze iyo kajya.

Inyamanswa z'ishyamba, zirimo inyamanswa bita ingagi, ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro, aho zitungura, abantu uburyo ziteye, kandi abakerarugendo, bakunze kuza gusura ingagi, bareba uburyo ziteye.

Isatura ni imwe mu nyamaswa z'ishyamba zikunda abana bazo, aho iyi satura ifite abana batatu kandi na yo ihora igendana nabo uko bwije n'uko bukeye. Isatura ni inyamaswa irisha ibyatsi kandi ikanaryoha ku muntu wayifashe akayibaga.

Inyamaswa z'ishyamba ni nyinshi cyane. Harimo izo bakunze kwita isatura ziba zifite ihembe imbere y'izuru ndetse zinabyibushye ku buryo bugaragara. Usanga ziteye nk'ingurube usibye ko zo, aho zitandukaniye n'ingurube ari uko zifite amahembe imbere ku zuru.

Ubu bwoko bw'ibisiga buri mu bisiga bikunze kurya inyama mbisi ndetse n'amafi ari kureremba hejuru y'amazi, aho usanga ahantu hari ikiyaga bino bisiga bikunze kuhaba cyane cyane. Na ni ho usanga biri gushaka amaramuko.

Icyari cy'inyoni, iyo inyoni yaritse ahantu uba usanga yita ku bana bayo. Rimwe na rimwe ikajya guhiga ikabashakira ibyo kurya. Yabizana mu kanwa, ikabahererezanya mu kanwa, ugasanga ni ubuzima bwiza cyane kandi bukagira icyo bwigisha ku bantu natwe ko dukwiye kumera nk'...

Inyoni ifite ibara ry'umweru hejuru ku mutwe, ndetse ifite n'ibara ry'igitaka ku mababa ndetse no mu nda hayo. Ifite ibara ry'umuhondo ihagaze ku giti. Ni inyoni igaragara neza kandi ituma mu kirere hamera neza, kuko inyoni iyo zirimo ziririmba abantu bagubwa neza.